Abaturage bicaye mu nama ndetse bamwe bari mu itente. Abandi bo bicaye hasi, nyamara bakaba bakurikiye bose ibyo umuyobozi ari kugenda ababwira.

Umugabo ushinzwe umutekano mu rwego rwa polisi, akaba yambaye impuzankano ya gipolisi, arimo kugeza ijambo ku bamukurikiye ndetse akaba yifashishije indangururamajwi.

Umugabo w'igikwerereri. Ari imbere, arimo kuvuga indangururamajwi ayifashe neza cyane, ayikomeje. Akaba yambaye amarinete, afite igitsure. Akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda.

Abaturage bari mu nama. Bakaba barimo kwiga ku bibazo bitandukanye kugira ngo barebe ko babasha guteza imbere ikiremwamuntu kuko muri iyi minsi ubukene bumaze kuba bwinshi mu bantu.

Abantu benshi bifashe neza bari ahantu mu nyubako ndetse bakaba barimo gukora inama, abayobozi bahagaze imbere abandi na bo bicaye mu ntebe z'umweru nziza cyane za pulasitike.

Abagabo babiri bambaye amakode ndetse bambaye karuvate, bakaba bambaye inkweto nziza cyane z'umukara, bari mu nama iyo nama ikaba ari inama iri kwiga ku bintu bigiye bitandukanye ndetse ikaba yabereye mu karere ka Nyagatare.

Abaturage benshi bahurijwe hamwe mu nama y'umudugudu, bakaba bicaye mu itente y'umweru ndetse abandi bakaba bahagaze, barimo kugezwaho ijambo n'umuyobozi wabo.

Inama yateranye yahurije hamwe abaturage bagize akagari kamwe mu tuba mu Rwanda, ikaba yabereye iruhande rw'isantere y'ubucuruzi aho abaturage babukereye ndetse bambaye neza.

Agacuma gateretse keza cyane karimo umukenke, kakaba kari ku meza, mu by'ukuri kifashishwaga kera abantu bari kunywa, ibintu bigiye bitandukanye nk'akagwa kugira ngo babashe gusabana neza.

Abakobwa beza cyane bo mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bagira umuco mu gihe cy'imisango y'ubukwe, aho baza bafite ibisabo bose bameze nk'abarimo gucunda amata, ukaba ari umuco ukundwa n'abatari bake.

Intore ziri guhamiriza zikaba zirimo kubyinira imbere y'abayobozi ndetse bikaba ari umuco wa kinyarwanda ko igihe habaye ibirori hagomba kuza intore zatojwe neza maze zigasusurutsa abitabiriye ibyo birori.

Abakobwa barimo gucunda amata. Baricaye neza cyane ndetse akaba ari umuco wa kinyarwanda. Uko bigaragara inyuma yaho hari inyubako zisanzwe za kera ziba zubakishijwe ibyatsi ndetse n'ibirere.

Umugabo ukora ibigendanye n'amashanyarazi yuriye ipoto rinini rimanitseho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, akaba yambaye ibikoresho bimurinda ndetse bituma adashobora kugwa.

Umugabo w'umuzungu arimo kureba mu kabati, karimo insinga nyinshi cyane z'umuriro w'amashanyarazi, yambaye ingofero irinda isura ye ndetse akaba afite imfunguzo nyinshi ziziritse ku mukandara.

Inyubako nziza cyane yubatswe ahantu ku musozi ndetse imbere yayo hakaba hari imirasire myinshi cyane itanga umuriro w'amashanyarazi, akaba ari uburyo bwashyizweho bitewe n'uko aka gace, katarageramo umuriro ufite ingufu.

Insina ziteye mu murima ndetse hakaba hari agahanda k'igitaka gatambika harimo kugenda abantu ndetse hakaba hari n'abandi bahagaze, hejuru hari ipoto ritwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Urujya n'uruza rw'abaturage mu isantere ikorerwamo ubucuruzi, ikaba ari isantere ifite inyubako nziza cyane zigezweho ndetse hakaba hari amapoto amanitseho insinga z'amashanyarazi.

Abakozi bashinzwe gukora ibigendanye n'umuriro w'amashanyarazi, bahurijwe hamwe bose, bakaba baje kugaragaza uburyo bakora imirimo yabo ndetse bakaba bambaye n'imyenda ibaranga.

Ipironi rinini cyane ryubatswe n'ibyuma, ritwara umuriro w'amashanyarazi. Aho insinga zinyuraho maze zikerekeza mu byerekezo bitandukanye. Hari inyubako iryegereye nziza cyane. Ikaba ari inyubako, yifashishwa n'abakozi bashinzwe ibijyanye n'umuriro.

Umugabo ukora ibigendanye n'amashanyarazi yuriye ipoto ririho utubogisi twinshi cyane, inyuma ye hari undi mugenzi we wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe y'akazi, irimo isarubeti y'ubururu ndetse n'ingofero irinda umutwe kwangirika. Arimo kwitegereza akantu kazamuye hejuru, gacometseho utwuma dufite amabara atandukanye.

Abakobwa na bo bashobora gukora imirimo itandukanye y'ingufu ndetse y'ubumenyingiro, urugero hari benshi basigaye barabaye abafundi, abandi bakaba bakora mu bigendanye n'umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Rikaba ari ipironi rirerire ry'icyuma, ndetse rikaba rifite ikintu kiza cyane kimeze nk'icyuma kigiye gitambitseho.

Abantu benshi cyane bari mu gikorwa cyo gukurura umuriro w'amashanyarazi. Aho bari kugenda bahererekanya urutsinga rw'umuriro kugira ngo rumanikwe ku ipoto maze abaturage bazabashe gucana mu gihe cya nijoro ndetse basharije telefone zabo.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako y'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ifite intebe nziza cyane zisa umuhondo, ndetse hakaba hari ahantu hasa umutuku haciyemo imirongo y'umweru hegereye ikibuga.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko iri ahantu mu ishyamba, ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa bya Leta ndetse ikaba ifite ubusitani bwiza burimo imikindo ndetse n'izindi ndabo zitandukanye.

Akarere ka Nyagatare umurenge wa Nyagatare, indangagaciro ziranga aka karere, gukunda igihugu, kugira isuku ndetse n'ibindi byinshi igihugu cyacu kidushishikariza kwibandaho.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ndetse ikaba ihomye neza, ikaba ari inyubako ifite ikibuga kinini kisanzuye giparikwamo amamodoka kuko hakoreramo inzego za leta.

Ikibuga cyiza cyane cy'umupira w'amaguru kikaba ari ikibuga gitoya gikorerwamo imyitozo kuko cyegeranye n'ikindi kinini cyane gikinirwamo umupira wamarushanwa.

Imodoka nyinshi za rukururana zirimo kugenda mu muhanda zikaba zigeze ku kiraro ndetse icyo kiraro kikaba gifite uruzitiro rutuma imodoka itarenga ngo igwe mu migezi.

Inyubako nziza cyane yegeranye n'ikibuga cy'umupira w'amaguru, icyo kibuga kitabangikiyemo umurongo utambitse w'umweru, ukigabanyamo inshuro ebyiri, hashashemo tapi nziza cyane ku buryo abagikiniramo badashobora kugira ikibazo cyo gukomereka igihe bituye hasi.

Intebe nziza cyane z'ubururu, ziteretse ahantu hari ama esikariye agiye azamuka anasumbana, buri ntebe hakaba handitseho umubare wayo.

Imodoka nini cyane ifite rukururana, inyuma yayo hakaba hari n'izindi ziri imbere ziparitse nyinshi, hari guca moto mu muhanda ndetse n'igare, inyuma y'igare hari umuturage urimo kugenda.

Inyubako nziza cyane nyinshi zisakaje amabati y'umutuku zikaba ziteye irangi ry'umuhondo, imbere yazo hari abantu benshi cyane bakaba barimo bicaye. Hakaba hari undi uri kugenda mu muhanda hafi aho hari ubusitani bwiza burimo indabo n'ibiti binini.

Abantu babiri bahagaze idirishya barimo kuvugana n'undi mukozi urimo imbere ndetse ikaba ari inyubako ya leta ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Imodoka nziza cyane y'umutuku irimo kugenda mu muhanda, imbere yayo hari umuturage urimo kwambukiranya umuhanda akaba ari kugana iruhande rw'akajaride, harimo ipoto rinini cyane riziritseho itara hejuru rimurikira umuhanda.

Imidugudu imwe n'imwe yo mu murenge wa Kigali, iba ifite ibiro byayo, aho usanga mu byaro ho, umudugudu uba kwa mudugudu.

Iyo ugeze ku rubibi rw'igihugu n'ikindi uhasanga irembo rinini cyane ndetse hakaba hari abashinzwe umutekano bagenda bakira ibyangombwa by'umuntu uturutse mu gihugu cy'ahandi

Amashuri menshi cyane ndetse ageretse akaba asize irangi ry'ubururu ku ibikuta byayo bikaba bisize irangi ry'umuhondo, imbere hari akantu bamenamo imyanda ndetse hakaba hari ubusitani butoya.

Amashuri menshi yubatse neza afite amarangi y'umweru ndetse akaba asakaje amabati y'ubururu, akaba ari imbere y'umusozi, umusozi muremure bigaragara ko uteyeho ishyamba ariko rikiri ritoya.

Inyubako nziza cyane y'amashuri yubatswe mu buryo butangaje cyane ndetse ikaba ari inyubako isize irangi ry'umweru, ifite uruzitiro ruzitijwe ibyuma ndetse ikaba ifite ubusitani bufite ibyatsi byiza cyane biteye amabengeza.

Umuntu w'umugabo wambaye ishati nziza cyane, akaba ari munsi y'igiti cy'umwembe. Iruhande rwaho hari amashuri. Arimo kuganiriza ababyeyi bitabiriye inama.

Abantu bicaye mu mahugurwa, barimo kwiga ku bintu bigendanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Bakaba barimo guhugurwa n'inzobere ziturutse hirya no hino muri Afurika.

Abantu bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwibuka, bafashe indabo none bakaba bari kugenda bazizana ahari imibiri y'ababo ndetse bakaba bagaragara nk'abantu bababaye bafite agahinda bitewe n'abo babuze.

Imbaga y'abaturagege yahurijwe ahantu hamwe bamwe bakaba bicaye mu itente y'umweru abandi bakaba bicaye mu kibuga, baje kwitabira igikorwa cyabaye ngarukamwaka cyo kwita ku burenganzira bw'umuntu.

Umuntu w'umugabo afite indabo ndetse uko bigaragara afite agahinda, bisa nk'aho agiye kwibuka abe yabuze ndetse inyuma ye hari n'abandi bantu bamuri inyuma.

Abantu bahuriye hamwe mu munsi mukuru mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa, ndetse bakaba bafite insanganyamatsiko igira iti "uburenganzira bw'umuntu ndetse n'ubutabera byubahirizwe."

Abantu b'abaturage bahagaze imbere y'umuyobozi hakaba hari ikigo cy'amashuri kiri hafi aho ndetse hari ubusitani bwiza cyane buteyemo indabo nziza n'ibiti birebire bizana amahumbezi.

Inama y'abashinzwe umutekano, yahuje abayobozi b'umurenge bagize urwego rwa daso ndetse ikabahuza n'abandi bayobozi kugira ngo bige ku bibazo by'umutekano.

Abantu benshi cyane bahuririye hamwe mu nama, bakaba bari kugenda batanga ibitekerezo umwe kuri umwe, kugira ngo bumve ko ibyo bigishijwe babigezeho.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'mweru ikaba isakajwe amabati afite ibara rijya kuba umutuku, asize irangi ryiza cyane rijya gusa n'ivu, hasi mu nyubako hari abantu bahagaze ndetse hakaba hari amadarapo abiri ari imbere y'inyubako.

Icyapa kiri ahantu mu ishyamba, kikaba cyanditseho mirongo inani, ndetse umuhanda uhari ukaba ari uwa kaburimbo, uciyemo akarongo k'umweru kazamuka.

Umuhanda wakozwe na Leta ukaba ari umuhanda wa kaburimbo, ugiye unyura mu giturage ndetse hakaba hari ibimenyetso bigenda biwuranga, aho bagenda bereka abaturage uko bambuka umuhanda.

Icyapa kinini cyane cyanditseho umubare eni cumi na gatandatu ndetse bikaba bivuga ko ari umuhanda wa cumi na gatandatu ariko hakaba hari n'inyubako nziza cyane iparitseho imodoka nziza z'amavatiri.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umweru ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hari indi ntoya cyane y'umuntu usanzwe irimo kugenda imanuka bikaba bigiye kubisikana byose.

Umumotari ahetse umugenzi. Bose bambaye kasike kugira ngo baramutse bakoze impanuka, babe batakomereka umutwe. Bari mu muhanda wa kaburimbo, barimo kumanuka. Iruhande rwabo hari amaduka acururizwamo ibintu bitandukanye.

Imodoka nini nziza cyane y'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iparitse ahantu heza cyane aho yegeranye n'ibyuma by'uruzitiro rutandukanya gare n'inyubako z'ubucuruzi.

Abaturage benshi cyane bazindukiye mu muganda. Bari kumwe n'inzego zishinzwe umutekano zagiye zitandukanye, bakaba barimo gusiba umuvu, wari warangije umuhanda.

Umugore mwiza cyane w'igishongore afite indangururamajwi, yambaye ikanzu, yambaye isaha nziza, akaba arimo kugeza imbwirwaruhame ku bamukurikiye, inyuma ye hari itente yicayemo abaturage.

Umugabo bigaragara ko afite inda nini, akaba ari mu kibuga ari gukina umupira, muri sitade nta bafana bahari ndetse uko bigaragara ni igihe cy'imyitozo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bakaba bicaye ndetse bakaba bambaye amajezi. Harimo umuzamu wambaye agapira keza cyane ka move, akaba afite na ga yambaye mu ntoki.

Amakipe abiri ahanganiye igikombe cy'umurenge Kagame cup, akaba agiye guhurira hamwe mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Aho bamwe bambaye imyenda y'umuhondo, bakaba biteguye gutsinda.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bambaye inifomo bakaba bambaye amajezi meza cyane y'ubururu bakaba barimo gukora mucaka birukanka, bageze mu kibuga ahantu hari akayira ndetse hari ibyatsi bitoshye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo kugendwamo n'abakinnyi bambaye amajezi ndetse bakaba bari gukora imyitozo, uko bigaragara ni ikibuga kiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho kirambuyemo tapi nziza.

Abakinnyi b'umupira barimo gusohoka mu kibuga, bose bakaba bambaye imipira ndetse n'amakabutura y'ubururu bw'ikirere. Bakaba bambaye nimero zibaranga mu mugongo, umutoza wabo akaba agiye kubashimira.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru iyo bagiye gukina barabanza bagakora umurongo umwe maze bakagenda basuhuzanya kugira ngo bigaragare kotangiyegiye guhangana ahubwo bagiye gukina kugira ngo utsinzwe yemere maze atahe, azagaruke yarakoze imyitozo mishya kugira ngo nawe atsinde.

Umugabo bigaragara ko ari umukinnyi w'umupira w'amaguru, yambaye amajezi meza cyane n'amasogisi yu'umweru afite ibara ry'umukara ndetse akaba yambaye godiyo zifunze neza.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo kwishyushya. Mu kibuga biragaragara ko umukino utaratangira. Abafana ni bakeya ariko uko bigaragara, baribugende baza gake gake.

Biragaragara neza ko abakinnyi bari mu kibuga, bari gukina umupira ndetse bakaba bari kugenda batsinda mu mazamu atandukanye, ikibuga bakiniramo nta byatsi birimo ndetse uko bigaragara umupira bakina ni umupira utari uwa kinyamwuga.

Abantu bari mu kibuga, barimo gukora imyitozo ngororamubiri, bikaba ari ibintu bigaragara neza kuko bahujwe n'iki gikorwa ndetse bikaba bituma basabana.

Abantu bicaye mu ntebe nziza cyane iyo zishushanyijeho n'umubare wazo, bakaba barimo gukurikira ibyo barimo kubwirwa. uko bigaragara bari ahanru muri sitade.

Abantu babiri bari mu muhanda mugari wa kaburimbo. Ni umusore ndetse n'umwana mutoya. Bari iruhande rw'inyubako ifite ibirahuri byiza cyane bibonerana ndetse iruhande rwayo hakaba hari akajaride keza.

Umuturage ufite anvirope mu ntoki, arimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, arahindukiye ari kureba inyuma kugira ngo arebe neza niba nta kinyabiziga gihari maze yambuke.

Ishyamba rinini cyane ndetse rikaba ari ishyamba riri ahantu mu giturage, imbere yaryo hakaba haca umuhanda wa kaburimbo, hakaba harimo umumotari urimo kuzamuka nta mugenzi atwaye ariko akaba yambaye kasike ndetse yambaye na bode.

Umuhanda w'igitaka urimo kunyuramo abagenzi bagiye batandukanye. Hari kunyuramo umugabo wambaye ishati y'umweru, ufite isuka ku rutugu ndetse afite n'akantu k'umweru mu ntoki.

Akayira kazamuka bigaragara ko gashasheho ibisima ndetse kakaba kariho beto, bishatse kuvuga ko umunsi, hanyuramo amazi ya ruhurura.